Umusangiro w'abayobozi bakomeye barimo n'abo mu nzego nkuru z'umutekano. Tubamenye bitewe n'amapeti ari ku mpuzankano bambaye. Bicaye ku meza ariho n'uducupa tw'amazi yo kunywa. Inyuma yabo na bwo hari abandi bantu, na bo bicaye bazengurutse ameza, mu matsinda atandukanye bicayemo.

Ifoto igaragaza abantu batatu bisa naho bari mukirori cyangwa se munama, n'abagabo babiri ndetse n'umugore umwe.

Icyumba mberabyombi kiririmo amatara ari kwaka, irangi ry'umweru ndetse n'imiryango ikoze mu mbaho, harimo abayobozi bahagaze bareba imbere, bambaye imyenda itandukanye, imbere yabo hari ameza ariho amacupa y'amazi.

Umugabo wambaye amadarubindi ufite umusatsi mukeya n'ubwanwa burimo imvi wambaye ishati y'umweru ufite indangururamajwi mu ntoki, imbere ye hari icyapa gitoya cyanditseho amagambo mu ibara ry'mweru n'ubuso bw'ubururu.

Icyumba mberabyombi gisize irange ry'umweru kirimo amatara n'intebe z'umukara, hari abantu bazicayeho umwe muri bo yambaye amadarubindi ari kureba mu gitabo.

Icyumba cyateraniyemo abantu bicaye ku ntebe z'imikara umwe muri bo yambaye agapfukamunwa, imbere hariho ameza y'umutuku ariho ikaramu ndetse n'impapuro.

Abantu bari munsi y'ihema ry'umweru bicaye ku ntebe z'imikara, imbere hariho umugore wambaye ikanzu y'ubururu n'amadarubindi, iruhande rwe harundi wambaye umupira w'ubururu n'ipantaro y'umukara.

Abaturage bari mu nama harimo abasaza, abakecuru ndetse n'abasore inyuma bicaye hasi imbere yabo hariho umugabo wambaye inkweto z'umukara ndetse uzamuye ikiganza.

Icyumba kirimo abantu batatu bicaye ku ntebe z' imikara, umugabo umwe wambaye isaha n'abagore babiri, imbere yabo hari ameza ateretseho mudasobwa ndetse n'indangururamajwi hamwe na terefoni n'igitabo n'urupapuro rw'umweru.

Abayobozi bicaye mu cyumba mberabyombi bari mu nama, ameza ari imbere yabo ariho mudasobwa, ibitabo, amacupa y'amazi, kandi icyumba barimo kirimo amatara ndetse n'amarido.

Abantu batatu barimo abagabo babiri n'umugore umwe, bicaye ku ntebe z'umukara. Imbere yabo hari ameza ateretseho ibitabo ndetse n'amacupa y'amazi apfundikiye. Bari mu cyumba gisize irangi ry'umweru.

Abayobozi bicaye mu nama bisa naho ari inama y'umushyikirano yateranyije abayobozi batandukanye, kuko bigaragara nkaho ari ikibazo bari kuganiraho.

Abayobozi bari mu nama imbere yabo bafite amazi gusa hari umugabo ufite indangururamajwi bisa n'aho ari gutanga igitekerezo mu nama harimo abari kumwitegereza ndetse abandi bamuteze amatwi.

Icyumba mberabyombi cyicayemo abagabo n'abagore imbere yabo hariho Ameza, ariho utwaba dutoya turi mu ibara ry'ubururu ndetse nanone bateretseho ibirahure by'amazi.

Abagabo n'abagore bari mu cyumba cy'uruganiriro gisize irange ry'umweru kirimo amatara ari kwaka, bicaye ku meza n'intebe by'umukara. Ayo meza ateretseho amazi yo mu macupa yo kunywa ndetse na mudasobwa.

Ifoto igaragaza abayobozi bari mu nama, aba bayobozi biragaragara ko hari ikintu bari kuganira, umuntu turi kubona imbere ni umugore wambaye ikote ritukura ufite ikaramu ndetse n'ikayi mu ntoki ze, biragaragara ko yakurikiye inama kandi ko ari kwandika ibitekerezo by'ingenzi biri kuvugirwamo.

Abagabo n'abagore bicaye mu cyumba mberabyombi imbere yabo harimo ameza ateretse amacupa y'amazi kandi bamwe muri bo bafite amakara mu ntoki zabo bari kwandika ku mpapuro.

Abagabo n'abagore benshi bicaye hamwe bakoze uruziga, inyuma yabo hariho imodoka zitwara abagenzi ndetse n'izitwara imizigo, na none hariho inyubako ifite irangi ry'umweru.

Icyumba gisize irangi ry'umweru kirimo amarido y'imikara ndetse n'amatara ari kwaka, harimo abantu bicaye ku ntebe z'imituku ndetse imbere yabo hari ameza ariho ibitambaro by'umweru n'amacupa y'amazi.

Abagabo bane batatu bicaye n'undi uhagaze, hariho n'umugore umwe wicaye ku ntebe. Imbere yabo hariho ameza ariho amazi yo kunywa, mudasobwa ndetse n'amakayi hamwe n'ibitabo.

Abantu benshi bahagaze iruhande ry'ihema bamwe muri bo bambaye imipira y'icyatsi n'amapantaro y'imikara n'ingofero z'ubururu, inyuma yabo hari indangururamajwi y'umukara.

Abantu bicaye ku ntebe zifite ibitambaro by'umukara, imbere yabo hariho ameza, hariho impapuro bafite ikaramu bari kwandikaho, iyo karamu yandika mu ibara ry'ubururu.

Abaturange bafiti ihene mu ntoki zabo, inyuma yabo bari ibendera ry'u Rwanda, inzu, igiti cy'avoka ndetse n'urutoki.

Abayobozi bari mu ngeri zitandukanye bicaye bari mu nama harimo abazungu ndetse n'abirabura, bari mu cyumba gikorerwamo inama nk'uko bigaragara hari ikintu cyabateranirije hamwe barimo kuganira.

Abaturage bicaye hasi mu busitani harimo abagore ,abagabo ndetse n'abana inyuma yabo hariho inyubako yubakishije amatafari itaruzura neza ikaba ifite amadirishya afite irangi ry'umutuku n'ibirahuri by'ubururu ,

Umugabo uhagaze imbere y'abantu benshi, bafite icyapa cy'umweru kirimo amagambo y'umukara, yambaye imyenda ndetse n'ingofero by'umukara biriho amagambo y'umweru n'imirongo y'icyatsi, byometseho ikirango cy'igihugu cy'U Rwanda.

Abasore bampaye imipira y'ubururu iriho ikirango k'ibindera ry'u Rwanda bicaye ku ntebe zifite imyenda y'umweru ndetse n'umuhondo imbere yabo hariho ameza ateretseho amazi.

Abayobozi bicaye mu cyumba mbera byombi, bamwe muri bo bambaye amadarubindi, imbere hariho ameza afite irangi ry'umutuku, ateretseho amacupa y'amazi, mudasobwa, ndetse n'amakaramu n'ibitabo.

Abasore n'inkumi benshi bicaye bateraniye hamwe bambaye imyenda itandukanye bamwe bari kureba imbere yabo abandi bakareba iburyo bwabo, inyuma yabo hariho abandi bahagaze mu ruhande rw'uburyo ndetse n'ibumoso hari urukuta rwubakishije amatafari ahiye hagati rukagira irangi ry'umuhondo.

Abantu bane bicaye barimo umuzungu umwe, imbere yabo hariho amazi yo kunywa ndetse n'ibirahuri, bafite amakaramu mu ntoki n'ibitabo kandi bari kwandika.

Umugabo uhagaze ufite indangururamajwi, wambaye umupira w'umweru n'umukandara n'ipantaro y'ubururu, iruhande rwe hari umugore wambaye ingofero n'amadarubindi.

Icyumba mberabyombi kirimo intebe z'umukara ndetse n'amatara ari kwaka, harimo abantu, imbere yabo hariho ameza ateretseho mudasobwa ndetse n'amacupa y'amazi hamwe n'indangururamajwi.

Abagabo bigaragara nk'aho ari abayobozi, batatu muri bo bambaye imipira y'ubururu ifite ikirango cy'ibendera ry'u Rwanda, abandi bafite telefone ndetse bisa n'aho bafite akanyamuneza mu maso hariho umuntu barimo kwitegereza, kuko babiri muri bo bari guseka.

Umugabo uri mu cyumba imberabyombi, cyabereyemo inama wambaye ishati y'umweru, n'ipantaro y'umukara ufite indangururamajwi, i ruhande hariho abandi bicaye ku ntebe, imbere hariho ameza ariteretseho amazi yo kunywa.

Ifoto igaragaza abantu bicaye hamwe, bitabiriye inama cyangwa se ibirori runaka. Ameza ari imbere yabo atwikirijwe ibitambaro biri mu mabara y'ibendera y'igihugu cy'u Rwanda. Kuri ayo meza hateretseho amazi yo kunywa.

Icyumba cy'uruganiriro kirimo abagore n'abagabo bicaye ku ntebe z'imikara, imbere yabo harimo ameza akoze mu mbaho, ateretseho mudasobwa ndetse n'amacupa y'amazi.

Umugore uhagaze ufite impapuro mu ntoki uri kureba imbere ye abandi bicaye ndetse n'abahagaze, inyuma yabo hariho imodoka ndende zitwara abagenzi zifite irange ry'ubururu ndetse n'umweru.

Ifoto igaragaza abayobozi batandukanye bari bicaye mu nama, gusa abenshi muri aba bayobozi bambaye imyenda y'umweru. Ahantu bicaye mu masaha ya nimugoroba nk'uko bigaragara kuri iyi foto.

Icyumba gikoraniyemo abantu bicaye. Imbere yabo hari umugabo wicaye ateganye na bo, hakaba n'undi mugore uhagaze, ufite indangururamajwi. Birasa n'aho ari guhugura abicaye, ku bintu runaka.

Icyumba cy'uruganiriro gisizi irangi ry'umweru kimanitsemo umwenda ufite ibara ry'umweru n'umuzenguruko w'umukara cyicayemo abagabo, n'abagore imbere yabo hari ameza ariho amazi hagati hariho undi ufite indangururamajwi.

Umunara muremure w'itumanaho wubatswe n'ibyuma bifite irange ry'umweru ndetse n'umutuku ukaba ufite ibindi byometseho ku ruhande bifite ishusho y'uruziga.

Ifoto igaragaza abantu bicaye hamwe bari kuri mudasobwa. Bicaye mu nyubako nziza isize irangi ry'umweru.

Ino foto iragaragaza abamotari babiri batwaye abgenzi, kandi inyuma yaho hari ibikoresho by'itumanaho. Nanone ifoto iragaragaza ipoto ryo ku muhanda.

Abantu babiri bari mu cyumba batunganyirizamo amajwi ndetse n'amashusho. Harimo umusore ndetse n'inkumi. Umusore afite mudasobwa.

Abantu batatu bicaye ku ntebe z'imyeru umwe muri bo yambaye ingefero imbere yabo hari mudasobwa ziteretse ku meza y'imbaho.

Icyuma gisize irange ry'umweru inyuma gifite amadirishya manini arimo ibirahure hicayemo abanyeshuri ameza ari imbere yabo ariho mudasobwa imbere yabo hahagaze umwarimu.

Abanyeshuri bicaye mu cyumba bigiramo bambaye imyenda y'ishuri, hejuru bambeye umweru hasi bambaye kaki. Harimo abanyeshuri bambaye imipira y'ikigo imbere yabo hari mudosobwa bakoresha mu kwiga.

Ishuri risize irangi ry'umweru, ryicayemo abanyeshuri bambaye imyenda isa, imbere yabo hari ameza ateretseho mudasobwa.

Ifoto igaragaza igice cy'imbere kunzu Kandi gikozwe neza cyane imbere. Hariho umunara wubutse uzamutse usize iragi ry'icyatsi.

Umusore uri munsi y'ihema ry'umweru, wambaye umupira w'umweru, ndetse n'umukufi mu ijosi, imbere ye hari abana ndetse n'abasore, inyuma ye hari ameza ariko mudasobwa n'igitambaro cy'umweru, ndetse hari undi muntu wicaye inyuma ye wambaye imyenda y'umukara.

Umunara ukozwe mu byuma bisize irangi ry'umweru, ndetse n'umutuku iruhande hariho ibindi byuma bisudiye mu buryo bw'inziga nabyo bifite irangi ry'umweru.

Umunara muremure wubatswe n'ibyuma biteranije bifite irange ry'umutuku ndetse n'umweru, kuriwo hometseho ibindi byuma bifite ishusho y'uruziga mu mpande.

Ibikoresho by'amashanyarazi biteretse hasi n'igikoresho, kigabanya umuriro inyuma yacyo hariho inzu yubakishije amatafari ahiye iciyemo imirongo y'umweru iruhande rwayo hari itagaragara neza ifite irangi ry'umuhondo ndetse inyuma hariho imirimo

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka yagenewe gutwara abagenzi ifite irange ry'umweru n'icyatsi n'ibirahure by'umukara, imbere yayo hariho amagare atatu.

Umuhanda wa kaburimbo, iruhande rwawo hariho inzira yagenewe abanyamaguru, irimo abantu bamwe bazamuka abandi bamanuka, nanone hariho uruzitiro rw' ibyuma ruzitiye, inzu ifite irangi ry'umuhondo.

Inzu ifite iragi n'urukuta rw'amabuye ndetse n'amatafari n'ibyuma by'icyatsi, imbere hariho ibiti birebire.

Ipoto rirerire ririho nsinga z'amashanyarazi z'umukara ndetse na rumwe ruzingazinze ruri hejuru zigiye mu byerekezo bitandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo urimo umugabo uhagaze ku igare wambaye umupira w'icunga rihishije, inyuma ye hari ipoto ririho insinga z'amashanyarazi ndetse n'inyubako ebyiri.

Ifoto igaragaza umuhanda wa kaburimbo iruhande rw'umuhanda hariho itara ryo ku muhanda rirerire, naho inyuma yaho hari igiti ndetse inyuma y'ibyo biti hari imisozi.

Imodoka isize irangi ry'umweru ndetse n'irangi ry'ubururu. Uko bigaragara ni imodoka itwara abagenzi, inyuma y'iyo modoka haragaragara ahantu abagenzi bicara, iyo bategereje imodoka. Aho hantu na ho hasize irangi ry'ubururu.

Inzu yabakishije amatafari ahiye, ifite amadirishya y'ubururu, iruhande rwayo hariho indabo zifite ibara ry'umuhondo, imbere yayo hariho ipoto ndende ihambiriyeho insinga z'amashanyarazi.

Umunara muremure w'amashanyarazi ukozwe n'ibyuma uhambiriyeho insinga uri mu mirima ikikijwe n'ibiti birebire uhambiriyeho insinga nyinshi zijya mu byerekezo bitandukanye.

Igisenge cy'inzu, cy'amategura. Kiruho ibyuma bishyushya amazi. Imbere yacyo hariho igiti kizamuye ndetse n'uruzitiro rw'ibatsi.

Uruzitiro rw'ibyuma rukikije umunara ufite irange ry'umutuku ndetse n'iry'umweru, ukaba wubatse n'ibyuma birebire. Imbere muri wo harimo n'ibindi bikoresho bijyaniranye naho. Iruhande rwaho hariho inyubako ebyiri.

Umugore uri kugenda mu muhanda wa kaburimbo imbere ye hari icyapa gifite irange ry'ubururu gishushanyijeho inyuguti ya pa ndetse n'imodoka mu ibara ry'umweru, iruhande rwe hari itara ryo ku muhanda, inyuma ye hariho inzu.

Itara rirerire ryo ku muhanda, rifashe ku cyuma cy'umweru ndetse hasi kikaba gifite irangi ry'ubururu, inyuma yacyo hari ipoto iriho insinga z'amashanyarazi ndetse n'urupangu ndetse n'ibindi biti birebire.

Icyapa kiriho amabwiriza abashaka kwinjira mu nyubako bagomba kubahiriza. Iki cyapa kimanitse ku ruzitiro rw'amabati, mu gihe inyuma yacyo hari inyubako.

Indabo ndetse n'ibiti biri mu bihoho n'amashashi y'umweru, bikikijwe n'ibindi biti biri mu mpande bitarakura neza, mo imbere harimo icyuma gifite umuryango ufunguye.

Urukuta rwubakishije amatafari ahiye, afite ibara ry'umutuku, ndetse rurimo ibyuma, kandi ruho n'amatara y'umweru, i ruhande rwayo ariho ipoto ririho insinga z'amashanyarazi.

Ifoto yafashwe igice kinini kigaragaza ikirere ikindi gice kikagaragaza urukuta rwubatswe rw'inyubako runaka, urukuta rwubatswe n'amabuye hejuru rukubakwa n'amatafari ahiye, ariko ahagana iruhande hari icyapa cy'umuhanda.

Inzu ndende y'igorofa. Iyi nzu ifite ibara ry'ubururu bwijimye ndetse n'ibara ry'umweru. Iyi nzi yegeranye n'indi byubatse mu buryo bumwe.

Ikigo nderabuzima cyubakishije amatafari ahiye, kikagira igisenge cy'amabati y'umutuku, kikaba gisize akarangi gatoya k'umuhondo, kikaba cyometseho igikoresho cyohereza umwuka mu nzu, iruhande rwayo ariho ubusitani.

Ikigo nderabuzima cyubakishijeje amatafari ahiye ndetse n'imiryango y'umukara n'ibirahure bibonera, hariho intebe yicayemo abantu ndetse n'abandi batonze umurongo bareba mu idirishya.

Abagabo n'abagore bamwe barahagaze abandi baricaye, imbere yabo hari imodoka zifite irangi ry'umweru ndetse n'umutuku zanditseho amagambo agaragaza ko ari imbangukiragutabara.

Amarembo, abantu binjiriraho iyo bagiye mu bitaro bya Kabgayi, muri aya marembo, biraragara ko akikijwe n'ibiti impande zitandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo urimo abasore babiri ndetse harimo imodoka eshatu, iruhande ariho urukuta rusize irangi n'imbere harimo inyubako.

Umuhanda wa kaburimbo ukikijwe n'ubusitani inyuma yabwo hariho inyubako y'igorofa rigeretse kabiri risize irange ry'ubururu ndetse n'umweru, hejuru hariho amagambo avuga ko ari ibitaro byitiriwe umwami Faisal.

Inyubako zifite igisenge cy'umutuku kandi zubakishijwe amatafari ahiye, imbere yazo hariho ikigega giteretse ku byuma ndetse n'ubusitani buteyemo ibiti bitatu.

Umuhanda wa kaburimbo urimo inkomane bacamo bazengurutse, iruhande hariho imodoka z'amabara atandukanye, hakaza kubaho n'inyubako zifite igisenge cy'ubururu n'irangi ry'umuhondo.

Abagabo batatu bari mu cyumba giteye irangi ry'umweru, imbere yaho hariho ameza ateretseho mudasobwa n'impapuro, harimo ikirahuri, inyuma yacyo hariho ibikoresho by'ikoranabuhanga.

Ikigo nderabuzima kirimo umuhanda wa kaburimbo, uhagazemo umugore wambaye itaburiya y'umweru, ipantaro y'icyatsi, ufite impapuro mu ntoki, ku ruhande rwe, hariho ubusitani buteyemo ibiti.

Umugore wegamye ku rukuta rufite irangi ry'umweru, afite umusatsi w'umukara wambaye ikanzu y'amabara, ifite ibara ry'umutuku umukara ndetse n'umweru.

Icyuma giteye irangi ry'umweru, kirimo abantu, batatu muri bo bicaye ku ruhande rumwe, abandi bari ku rundi ruhande, babiri bafite mudasobwa kandi imbere yabo hariho akabati n'ameza bikoze mu mbaho, biteretseho amacupa ane y'amazi.

Abantu bahagaze ndetse n'abicaye mu nsi y'igiti inyuma yabo hariho imodoka y'umweru iri kugenda mu muhanda utari uwakaburimbo na none kandi inyuma hariho imirima.

Umugabo uri imbere y'urukuta rw'umweru, wogoshe umusatsi, wambaye amadarubindi, n'ikanzu isa ubururu ifite n'irindi bara ry'umukara hamwe n'umweru.

Abagabo bahagaze mu cyumba gisize irange ry'umweru ,abenshi muri bo bambaye imyenda isa ya gisirikare ndetse abandi bambaye amakote y'ubururu na karuvate z'umutuku n'ubururu hagati muri bo harimo umugore wambaye amadorobindi.

Abapolisi babiri bambaye impuzankano y'Igipolisi cy'u Rwanda bari kumwe n'umugabo w'umwera wambaye ikanzu y'umweru. Uyu mugabo yambaye amapingu, bigaragara ko hari ibyaha akekwaho.

Abagabo bane ndetse n'umugore umwe, bambaye imyambaro y'umukara, ifite agatambaro k'umweru kamanutse mu ijosi, ikiganza kimwe kizamuye hejuru, n'ikindi gikoze ku ibendera, imbere yabo hari umugore wambaye umwenda w'umutuku, ndetse n'amadarubindi.

Ifoto igaragaza abantu bambaye imyenda y'abacamanza, umwe ahagaze akoze ku ibendera ry'igihugu cy' u Rwanda asa naho arimo kurahira, inyuma ye hari abandi bantu bahicaye kandi bambaye udupfukamunwa.

Umugore uri imbere y'urukuta rw'umweru ufite imisatsi miremire y'umukara wambaye ikanzu y'umutuku n'umukara ndetse ifite n'akandi kantu k'umweru imbere.

Igiti kirekire munsi yacyo harimo abantu bicaye ku ntebe iruhande hari abandi bicaye hasi ndetse n'abahagaze inyuma hariho amazu.

Umugabo wambaye ingofero y'umukara itite imirongo ibiri y'umuhondo, yambaye amadarubindi, yambaye ishati y'umutuku ndetse na karuvate y'umukara.

Umugore uhagaze ku rukuta rw'umweru ufite imisatsi isutse miremire y'umukara wambaye ikanzu itukura ifite akantu mu ijosi gasa umweru.

Abagabo b'abagororwa bambaye imyenda isa inyuma yabo hari ababacungira umutekano ufite intwaro imbere hariho igorofa ndetse n'ibiti.

Abaturage benshi bicaye hasi, hariho ufite umutaka n'abandi bari kumwe n'ameza, akozwe mu mbahoho arambitseho impapuro.

icyumba kirimo abagabo bicaye kandi bambaye udupfukamunwa abari imbere bambaye amakanzu y'imikara kandi imbere yabo hariho ameza ateretseho indangururamajwi ndetse n'amudasobwa abandi bambaye amakabutura.

Inkuta ndende zubakishijwe amatafari ahiye ziteyeho akarangi k'umuhondo, zifite amarembo hejuru hariho icyapa cyanditseho gereza ya Rubavu.

Icyumba gisize irange ry'umweru kirimo rido ndetse n'amatara ari kwaka harimo abagabo bane n'umugore umwe bamwe muri bo bambaye amakanzu y'imikara n'umweru undi we yambaye amadarubindi n'ishati y'umutuku.

Umuntu wicaye mu mudoka mo imbere, arimo kureba hanze mu idirishya, rihagazemo undi wambaye imyenda y'imikara ifite uturango tw'umuhodo ndetse n'amagambo yanditsweho mu ibara ry'umweru, hometseho ikirango cy'igihugu cy'u Rwanda. Yambaye ingofero ishushanyijeho inuma.

Imodoka ifite irange ry'umweru ndetse n'umukara yanditseho amagambo mu nyuguti z'umukara, inyuma itwaye abantu bane bambaye imyenda y'imikara ndetse n'ingofero, inyuma yayo hariho amapikipiki abiri acanye itara ry'ubururu.

Ikizimyankoni gifite ibara ry'umutuku, ndetse n'ubururu, umuhondi ndetse n'umukara, kiriho umupira ndetse n'urufunguzo, kikaba gifite n'amagambo yanditseho mu ibara ry'umweru ndetse n'ibirango bicyometseho.

Ikizimyankongi cyometse ku rukuta rw'umweru ifite ibara ry'umutuku n'amagambo yanditseho mu umweru mu buso bw'umukara hariho n'umupira wifashishwa mu kuzimya.

Imodoka ebyiri nini cyane, imbere yazo hariho abantu bambaye imyenda y'umukara ifite uturango tw'icyatsi. Bafite ikizimyankongi mu ntoki, bagitunze ku muriro.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodokari ebyiri ziri kubisikana, imwe ifite irange ry'umukara gusa naho indi ikageramo niry'umweru, mo hagati harimo igiti cy'umukindo.

Imodoka ndende kandi nini ifite irange ry'umweru ndetse n'ubururu, inyuma ifite ahantu batwara imyanda iruhande rwayo hariho inzu ifite irange ry'umweru itagaragara neza.

Ifoto igaragaza umuyobozi ubifitiye ububasha uhagaze mumuhanda arimo guhagarika imodoka itwara abagenzi kugira ngo ayibaze ibyangombwa cyangwa se irebe niba yujuje ibisabwa byose.

Umugabo uhagaze wambaye imyenda n'inkweto by'umukara, iruhande rwe kari imodoka ebyiri zifite irangi ry'umukara imbere ye hariho igiti kirekire.

Imodoka eshatu, ebyiri muri zo zirasa, zifite irangi ry'umweru n'umukara n'amagambo yanditse mu mbavu asa nk'umukara. Ziri ku nyubako y'igorofa ndende ifite irangi ry'ubururu n'umweru. Imbere yaho hariho igiti.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ipikipiki ndetse n' imodokari. Iruhande rwawo hari umuyobozi ushinzwe umutekano wambaye imyenda y' umukara iri utugararumuri tw' ibara ry' icyatsi, imbere ye hariho inzu y' igorofa igeretse rimwe iriho ibyapa.

Umugabo n'umugore bari munsi y'ihema ry'umweru bambaye amashati asa ashushanyijeho kagoma, umwe muri bo afite icumu ndetse n'ingabo mu ntoki ze bikozwe mu biti bakikijwe n'abaturage.

Umugabo ufite umusatsi mukeya wambaye ikote na karuvati n'ishati y'umweru wicaye ku ntebe y'umukara, imbere ye hari indangururamajwi mudasobwa icupa ry'amazi ndetse n'ikirahure.

Ifoto iragaragaza abantu batandukanye bari mu nama, gusa kuriyi foto ndikubonaho umugore wa nyakubahwa w'umukuru w'igihuhu cy'u Rwanda. Witwa Janete Kagame

Abaturage benshi bateraniye hamwe bazamuraye ibiganza hejuru ndetse bamwe bafite udupapuro rufite ibara ry'umutuku, ubururu ndetse n'umweru; harimo inyuguti ya FPR; bakikije imodoka ihagazemo umugabo wambaye amarineti n'umupira w'umukara uzamuye ikiganza hejuru.

Umubyeyi muremure uhagaze hagati y'amarido abiri, ufite umusatsi mwinshi n'umukufi mu ijosi. Imbere ye hahagaze abana babiri, bambaye amakoti na cravat.

Umugabo uhagaze mu modokari wambaye agapfukamunwa ,amadarubindi n'ingofero by'umukara yazamuye akaboko gafashe igipfunsi akandi gafashe ku cyuma cy'imodokari byambaye umupira w'umutuku.

Abagabo batatu bahagaze imbere bambaye amakote, bazamuye akaboko k'ibumoso naho ak'iburyo ko gakoze ku ibendera ry'u Rwanda, imbere yabo hariho indangururamajwi.

Inzu imanitseho urupapuro rw'umweru ruriho ifoto y'umugabo wambaye ikote ry'ubururu ndetse na karuvate y'ubururu, hejuru handitseho amagambo avuga ngo sibo ubwiza.

Umugabo wambaye amadarubindi, ingofero y'umukara n'umupira w'umweru, uzamuye akaboko k'ibimuso gafashe igipfunsi, inyuma ye hari abaturage nabo bazamuye amaboko yabo hejuru, bafite udupapuro twanditseho Efuperi.

Ifoto igaragaza umugore usa naho ari mu nama ufite ikaye ari kwandikamo ibitekerezo cyangwa se ashobora kuba yanditsemo n'ibyo yateguye ari buze gusangiza abandi bantu bari kumwe yambaye neza cyane rwose.

Umugore ufite imisatsi yumukara wambaye amadarubindi nimyenda yumweru wicaye ku ntebe ikozwe mu rubaho nyuma hari idirishya ririho rido mu cyumba gisize irangi ry'umuhondo.

Umugore wambaye amadarubindi ndetse n'umukufi mu ijosi wazamuye ikiganza k'iburyo ik'ibumso gifashe ku ibendera ry'igihugu cy' u Rwanda, imbere ye hari indangururamajwi kandi yambaye umushanana.

Umugabo ufite umusatsi wicaye ku ntebe y'umukara wambaye ikote ry'ubururu na karuvati ndetse n'ishati yumweru, iruhande rwe hari undi wicaye ariko imbere hakabaho ameza ateretseho amazi yo kunywa.

Abagabo batatu barimo guseka, babiri muri bo bambaye amadarubindi, hariho ufite umupira utukura ndetse n'ipantaro y'umukara, ufite akaboko kamwe gakoze mu mufuka.

Umugore uri guseka, wambaye amaherena ndetse n'umukufi mu ijosi yicaye ku ntebe y'umukara, iruhande rwe hariho ibendera rifite ibara ry'umweru ndetse n'ubururu

Abaturage bateraniye hamwe bafite udupapuro mu ntoki zabo turi mu ibara ry'umutuku n'ubururu ndetse n'umweru wanditseho inyuguti fa pa ra bisobanura ngo fpr bakikije imodoka irimo umugabo wambaye umupira w'umukara ndetse n' amadarubindi uzamuye ikiganza.

Abayobozi bari mu cyumba mberabyombi, imbere yabo hariho ameza ateretseho impapuro n'indangururamajwi n'amacupa y'amazi, hari undi ubahagaze imbere wambaye amadarubindi.

Umugore wicaye ku ntebe y'umukara iruhande rwe hariho urukuta rukoze mu mbaho, imbere ye hariho indangururajwi, indangururamajwi z'amoko atandukanye. Yambaye amaherena ndetse n'ikanzu, afite igitabo mu ntoki ze.

Abantu benshi bateraniye hamwe bambaye ingofero z'umutuku ndetse no imbere hariho ibirango byanditseho umuturage ku isonga n'akaboko gafashe igipfunsi.

Umugabo wicaye ku ntebe y'umukara wogoshe umusatsi wambaye ikote ry'ubururu karuvati y'umutuku ishati y'umweru ari hagati y'amabendera abiri, rimwe muri ryo rifite ibara ry'ubururu n'ikirango k'izuba cy'umuhondo.

Abantu bateraniye hamwe bambaye imyenda ifite mabara atandukanye umutuku, ubururu ndetse n'umweru, bamwe muri bo bazamuye hejuru amabendera yanditseho ngo efuperi.

Abagabo n'abagore bahagaze batonze umurongo ,bazamuye ikiganza cy'iburyo na ho icy'ibumoso gifashe kw' ibendera ry'Igihugu cy'u Rwanda, imbere yabo hariho indangururamajwi, icyumba barimo kimanitsemo igikoresho cyerekana amashusho y'ibiri kubera aho hantu.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka ifite irangi ry'umweru ndetse n'ubururu, iruhande rwawo hariho ibiti birebire birimo uruzitiro muri urwo ruzitiro mo imbere harimo abantu barimo gupakira indi modoka.

Umuhanda wa kaburimbo, urimo imodoka nini itwara imicanga ndetse n'indi ntoya itwara abantu. Iruhande rw'izi modoka hariho ibiti birebire ndetse n'uruzitiro, rugaragaza ko inyuma hari inzu iri kubakwamo.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka itwara imizigo, ifite irangi ry'umutuku, iruhande hari akayira k'abanyamaguru, hariho umusore wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ikinyamitende cy'inziga itatu gisa ubururu, kiriho ihema ry'umweru, gitwawe n'umugabo wambaye ingofero itukura.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka ebyiri zibisikana, imwe ifite irangi ry'umweru itwara imizigo, iruhande hakabaho akayira k'abanyamaguru karimo umusore uri kugenda wambaye ingofero.

Kaburimbo irimo abantu bari kugenda n'amaguru, ndetse hari n'undi nawe wicaye ku igare wambaye umupira w'umutuku, inyuma ye hariho imodoka ndende itwara abagenzi ifite irangi ry'ubururu ndetse n'umweru.

Umuhanda wa kaburimbo urimo amagare n'amapikipiki, ukikijwe n'amatara ari kwaka hamwe n'ubusitani buhagazemo abantu. Kandi ni mu masaha ya nijoro.

Umuhanda wa kaburimbo ukikijwe n'utuyira tubiri tw'abanyamaguru, urimo imodoka yagenewe gutwara imizigo ifite irangi ry'umweru. Na none ku ruhande hariho ibiti. Birebire.

Umuhanda wa kaburimbo uri mu modokari ifite irangi ry'umweru amagambo yanditseho mu ruhande agaragaza ko ikoreshwa mu kwigisha abanyeshuri, ifite nomero y'ikinyabiziga eri aga maganatanu na mirongo ine na gatanu.

Imodoka ifite irangi ry'umweru ndetse n'ubururu yagenewe gutwara abagenzi, ifite nomero iranga ikinyabiziga ra a ba rimwe zero gatandatu da.

Imodoka yo mu bwoko bw'ikamyo iri kuzamuka muri kaburimbo. Iyi modoka y'ibara ry'ubururu, iri kubisikana na moto itwawe n'umumotari uhetse umugenzi.

Umuhanda urimo imdodoka itwara abagenzi ifite irangi ry'umweru ,bigaragara ko itwara abagenzi ifite irangi ry'umweru mimbere harimo umuyobozi uyitwaye ,bigaragara nk'aho yashaje kuko nta kirahure cy'imbere ifite ,iruhande rwayo hari umugabo uri kugenda.

Umuhanda wa kaburimbo, iruhande rwawo ubagenzi ndetse hari n'abanditu bicaye ku ntebe, hakaba hariho ipikipiki, hariho igorofa irimo kubakwa ritaruzura.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodokari ndende yagenewe gutwara ibinyabutabire by'amazi, inyuma hariho amapikipiki ndetse umuhanda ukikijwe n'inzira ebyiri z'abanyamaguru n'ibiti birebire.

Imodokari ndende ifite irangi ry'umweru, n'inyuma hariho ihema rihambiriye, ikaba yaragenewe gutwara ibicuruzwa. Iruhande hari amapikipiki ndetse uyicayeho yambaye ingofero y'umutuku

Imodoka ebyiri zifite irange ry'umweru ndetse n'irindi ry'umuhondo risize mu mbavu. Izi modoka zagenewe gutwara abagenzi, imbere yaho hariho inyubako isize irangi ry'umuhondo ifite ibiti biteye ku ibaraza.

Umuhanda urimo imodoka itwara abagenzi, ifite irange ry'ubururu ndetse n'umweru. Imbere yayo hariho izindi ebyiri zifite irange ry'umukara ndetse n'ipikipiki yicayeho umuyobozi wayo.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka eshatu ebyiri muri zo zirasa n'indi ndende itwara abagenzi ifite irange ry'ubururu ndetse n'umweru harimo ipikipiki yicayeho abantu babiri.

Inzu y'igorofa igeretse rimwe, isize irangi ry'umweru, ifite n'amabara y'ubururu, irimo imiryango ifite irangi ry'icyatsi ndetse hasi umuryango ukinguye, uhagazemo umuntu.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka ndende ifite irange ry'umweru ndetse n'ibyuma bisa ubururu mu imbere harimo inka nyinshi, iruhande rw'umuhanda hariho ibiti birebire.

Umuhanda wa kaburimbo, urimo imodoka itari kugenda, itwara imizigo, ifite irangi ry'ubururu ndetse n'umweru, hari abantu bari inyuma bari gukuramo imifuka y'ibirayi.

Imodoka itwara abagenzi ifite irangi ry'umweru ndetse n'utundi turangi duto turi mu mbavu tw'icyatsi, ifite umuryango ukinguye iri ahantu bategera imodoka kandi hari n'izindi nyinshi.

Imodoka ebyiri ziri mu muhanda wa kaburimbo, ushashanyijemo imirongo y'umweru, zifite irangi ry'umweru ndetse iy'inyuma ifite akarangi k'umuhondo mu mbavu.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodokari eshatu ebyiri zifite irange ry'umweru, indi imwe yagenewe gutwara imizigo ifite iry'ubururu ndetse n'amapikipiki abiri.

Ifoto iragaragaza imodoka itwara abagenzi ifite ibirango ndetse n'irange biri mu ibara ry'ubururu byanditseho amagambo ngo gucunga konti ni ubuntu. Iyi modoka iri mu muhanda ukoze neza wa kaburimbo.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka ebyiri zitwara abagenzi, imwe ifite irangi ry'ubururu, indi ikagira iry'icyatsi, harimo n'indi imwe itwara imizigo ifite iry'umweru, iruhande rwayo hariho umusorer uri kugenda.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka itwara abagenzi ifite irangi ry'umweru, imbere yayo ariko ipikipike uyicayeho yambaye ingofero y'umuhondo iruhande rw'umuhanda hariho inzira zagenewe abanyamaguru zikikijwe n'ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo ukikijwe n'akayira k'abanyamaguru ndetse n'ibiti birebire, urimo imodoka itwara ibintu ifite irangi ry'umuhondo n'indi ifite irangi ritukura n'indi ifite iry'umweru n'indi ifite iry'umukara, hakabamo n'itwara abagenzi ifite irangi ry'ubururu, inyuma yayo hari inzu ndende y'igorofa.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ipikipiki iriho umuyobozi wayo wambaye ingofero y'ubururu, iruhande rw'umuhanda hariho umunyeshuri uri kujya ku ishuri ufite igikapu.

Umuhanda wa Kaburimbo urimo imodoka ifite irangi ry'umweru itwara imizigo. inyuma igaragara ko ihetse ibyuma. Harimo n'amapikipiki atatu ari kugenda, atwawe n'abayobozi bayo. Kandi hariho n' abagenzi bambaye ingofero z'umuhondo ndetse n'umutuku.

Ifoto igaragaza ahantu abantu bategera imodoka, gusa hariho imodoka yanditseho amagambo avuga ngo jugumira, aha ni ahantu rusange abagenzi bose bategera imodoka, hariho umugabo ufite ubumuga ku buryo yifashishije imbago kugira ngo agende.

Mu handa wa kaburimbo urimo imodoka itwara imizigo ifite irangi ry'icyatsi ndetse n'umwe. Inyuma kuri yo hahambiriyeho ihema ndetse iruhande rw'umuhanda harihoibiti n'uruzitiro rw'icyatsi.

Ifoto igaragaza igare iparitse iruhande rw'umuhanda imbere y'iryo gare hari imodoka ifite irangi ry'umweru. Imodoka yagenewe gutwara imizigo.

Umuhanda wa kaburimbo uciyemo imirongo y'umuhondo ndetse n'umweru urimo ipikipiki ndetse n'imodokari ukikijwe n'ibiti birebire by'imikindo.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka itwara imizigo, ifite irangi ry'umweru, inyuma ikaba itwaye inka zifite ibara umweru n'umukara, ni inka eshanu, iruhande rwa kaburimbo hariho ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo iruhande rwawo hari imodoka itari kugenda itwara imizigo ifite irangi ry'ubururu hari umuntu uyihagazemo urimo gupakira ibyuma iruhande hakabaho inyubako y'igorofa isize irangi kandi iriho amata ari kwaka.

Umuhanda wa kaburimbo urimo amapikipiki atatu yicayeho abayobozi bayo bambaye ingogero, iruhande rwabo hariho ubusitani burimo icyuma kirekire kiriho itara ryo ku muhanda.

Imodoka ebyiri zitwara imizigo zifite irangi ry'umweru; imwe iriho ihema rihambiriye naho indi ipakiyemo imifuka, iruhande hariho abaturage ndetse n'umutaka. Nanone hariho ibiti birebire.

Umuhanda wa kaburimbo, urimo imodoka ndende, yagenewe gutwara abagenzi, ifite irangi ry'ubururu, umukara, ndetse n'umweru. Imbere yayo hariho amapikipiki, abazicayeho bambaye ingofero.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodokari ifite irangi ry'umweru ndetse n'ubururu yanditseho amagambo agaragaza ko gutwara amazi iruhande rwayo hariho ibiti birebire.

Imodoka itwara abagenzi iteye irangi ry'ubururu ndetse n'umweru, ifite nomero iranga ikinyabiziga eri a ha ijana na mirongo itandatu na kabiri d, iruhande rwayo hari umugore wicaye ku gatebe gakoze mu rubaho.

Ahantu hagenewe guhagarara imodoka zitwara abagenzi mu masaha ya nijoro kuko amatara ari kwaka hagaragaraho imodoka itwara abantu ifite irangi ry'umweru.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka itwara imizigo ifite irangi ry'umweru ndetse n'amagare abiri ari impande zayo, iruhande akaba ari ho ibiti birebire ndetse n'uruzitiro rufite akayugirizo k'icyatsi.

Umuhanda wa kaburimbo, urimo imodokari itwara abagenzi ifite irangi ry'umweru n'amapikipiki abiri atwawe n'abayobozi bayo bambaye ingofero z'umutuku kandi bahetse abantu iruhande rwabo hariho ibiti birebire.

Umuhanda wa kaburimbo, urimo imodokari ifite ibara ry'umutuku ndetse n'amapikipiki abiri, abayicayeho bambaye ingofero isa umutuku ndetse n'umuhondo, iruhande hariho inyubako.

Ubusitani, inyuma y'ubwo busitani hariho imidoka ebyiri, imodoka nini muri iyo ifite irangi ry'umweru ndetse n'ibirahure by'umukara itwara abagenzi, n'indi nayo itwara abagenzi ariko ni ntoya, gusa yo ifite irangi ry'umweru gusa.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka ifite irangi ry'icyatsi, yanditseho amagambo agaragaza ko ari iy'ishuri ryigisha gutwara ndetse imbere hariho n'izindi zifite irangi ry'umweru, iruhande mu nzira y'abanyamaguru harimo umusore n'inkumi bari kugenda.

Muri ino foto hagaragaraho imodokari itwara imizigo, ifite irangi ry'umweru, iruhande rwayo hagaragaraho ipikipiki, inyuma ni ukuvuga iruhande rw'umuhanda haragaragaraho andi mapikipiki ariko akoresha imbaraga z'amashanyarazi.

Imodoka iri mu muhanda wa kababurimbo wubatse neza itwara abagenzi, ni imodoka yanditseho yego kabuzi mu magambo atukura, ni imodoka ifite irange ry'umweru ikaba isize n'irange ry'umuhondo ahagana hasi ku miryango.

Ifoto igaragaza umuhanda; umuhanda urimo imodoka zitandukanye ndetse na moto, ariko ku ruhande rw'iyi foto haragaragara ahantu hari rigori.

Abana bari gutwara ikinyamitende inyuma yabo hariho umugabo n'abandi babiri bahagaze bari kuganira, hariho igorofa ndetse n'ibiti birebire.

Abantu bicaye iruhande rw'umuhanda, harimo abasore ndetse n'inkumi, iruhande hariho inyubako ifite ibara ry'icunga rihishije ry'igorofa ndende, imbere yaho hakabaho n'indi ifite ibara ry'umuhondo, iruhande hakaba hateyeho ibiti.

Uruzitiro, inyuma yarwo harimo ubusitani buzengurutswe n'imihanda bigiramo ibinyabiziga, bushinzemo ibyapa byanditseho makumyabiri bigaragaza ko ari umuvuduko ntarengwa. Harimo amapikipiki ndetse n'imodoka.

Icyapa gifite irangi ry'umuhondo kiriho ibimenyetso bibiri, ikimenyetso cya mbere gifite umuzenguruko w'umutuku ubuso bw'umweru na mirongo itatu byanditse mu ibara ry'umukara. Bigaragaza ko utagomba kurenza umuvuduko wa mirongo itatu icyo hasi gifite ikirango cy'umukara kigaragaza ko imbere ari igikoresho cy'ikoranabuhanga cyabigenewe kiguhana iy'uwurengeje.

Ubusitani burimo ibyapa bigaragaza amerekezo, kimwe mu buso bw'icyatsi cyanditseho uganda, ikindi mu'irange ry'umweru cyanditseho urugendo ruhire, iruhande hariho umuhanda wa kaburimbo urimo imodokari.

Icyapa gifite ubuso bw'umweru, kiriho ikirango cy'ipikipiki ndetse n'imodokari biciyemo umurongo w'umutuku, bigaragaza ko ibyo binyabiziga bitemerewe kuhaca.

Icyapa cyo mu muhanda kigaragaza ko hari imirimo irimo gukorwa imbere ku muhanda, iki cyapa kibuza abayobozi b' ibinyabiziga gukomeza kuko hari imirimo iri gukorerwa imbere mu muhanda.

Ifoto igaragaza icyapa cyo mu muhanda kimenyesha, iki cyapa gifite irangi ry'ubururu ndetse hashushanyijemo imodoka mu irangi ry'umweru ndetse n'inyuguti ya p iki cyapa kigaragaza ko ari ahantu imodoka zigomba guhagarara.

Ifoto iragaragaraho icyapa gifite irangi ry'umutuku, ariko cyanditseho amagambo avuga ngo hagarara, iki cyapa gishyirwa ahantu imodoka ziba zigomba guhagarara umwanya muto kugira ngo zibone gukomeza.

Icyapa cyo mu muhanda gifite ubuso bw'umuhondo, umuzenguruko w'umukara ikirango cy'umukara cyerekana icyerekezo.

Umuhanda wa kaburimbo ndetse n'ubusitani, uhagazemo umugore w'umuzungu uzamuye ibiganza, uhetse igikapu. Ahagaze mu nsi y'icyapa cy'umweru cyanditseho amagambo y'umukara.

Icyapa gifite umuzenguruko w'umukara, ubuso bw'umuhondo ndetse n'ikirango cy'umukara kigaragaza ko imbere hari umuhanda bacamo bazengurutse, muri uwo muhanda harimo igishushanyo kiri mu ibara ry'umweru.

Ibyapa biranga biri ku hariho igifite ibara ry'ubururu n'amagambo y'umweru cyanditseho umupaka wa Uganda mu birometero makumyabiri na bitanu n'ikindi cy'umukara cyanditseho amacumbi ya virunga gishushanyijeho ingagi hamwe n'ikiranga banki nkuru y'abaturage b'u Rwanda.

Ifoto igaragaza icyapa kiburira, gifite umuzenguruko w'umutuku, kikagira ubuso bw'umweru ndetse n'ikirango cy'umukara. Iki cyapa kigaragaza ko umuyobozi w'ikinyabiziga ko agomba kwitonda kuko imbere umuhanda utaringaniye, ufitemo udusozi cyangwa se ufitemo imikuku, bityo akaba agomba kwitonda.

Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu umuzenguruko w'umutuku ubuso bw'umweru n'ikirangantego cy'umukara kiriho imodokari kigaragaza ko umuhanda unyerera ari ukuwugendamo witonze.

Icyapa gifite umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru, n'ikirango cy'umukara, kigaragaza ko hatemewe kunyura imodoka itwaye ibicuruzwa. munsi yacyo hariho abantu bicaye ku magare iruhande hariho umuhanda uri gucamo imodoka, ndetse n'amapikipiki ukikijwe n'ibiti.

Ifoto iragaragaza umuhanda, gusa hari icyapa kiririmo inyuguti ya pa mu magambo y'ubururu. Iki cyapa kigaragaza ko arahari imodoka zishobora guhagarara, aho imodoka zihagarara iruhande rwaho hariho inzu yagenewe abagenzi bicaramo hanyuma bagategereza imodoka.

Icyapa cyo mu muhanda gifite ishusho ya mpande eshatu umuzenguruko w'umutuku ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara kigaragaza ko ari agahanda kisukiranya mu ikorosi.

Ifoto igaragaza ibyapa bitandukanye byo kumuhanda hari icyapa kigaragaza ko bibujijwe kunyuranaho, hari icyapa kigaragaza ko umuvuduko ntarengwa ari kilometero mirongo ine ku isaha ndetse n'ibindi byapa byinshi bitandukanye.

Icyapa gifite umuzenguruko w'umukara ndetse n'ubuso busa n'icunga rihishije n'amagambo y'umukara agaragaza ko umuhanda imbere uri gukorwa.

inyubako y'igorofa igeretse gatatu ifite irangi ry'umweru n'ibirahuri by’ umukara. iruhande hariho n’ indi ifite irangi ry'umuhondo ndetse n'imodoka nshya.

Inyubako yigorofa rigeretse kabiri imbere yaryo hariho imodoka eshatu imwe ifite irangi ry'umweru indi iry'icyatsi indi iry'umutuku, imbere yazo hariho abantu ndetse namapikipiki.

Iduka bacururizamo imyenda rikinguye imiryango, risize irangi ry'umweru hejuru hamanitseho ibikapu, mu imbere harimo utubati babikamo imyenda, hanze hakabaho imodoka ifite irange ry'umweru.

Igorofa rigeretse gatatu risize amarangi atandukanye, n'igorofa imbere rifite igiti kiri mubwoko bw'umukindo kikiri gito.

Umuhanda wa kaburimbo urimo amapikipiki, abayicayeho bambaye ingofero z'icyatsi. Iruhande hariho ubusitani burimo ibiti by'imikindo, ndetse n'inyubako z'igorofa.

Inyubako ndende y'igorofa isize irangi ry'ubururu ndetse n'umweru ifite ibirahuri by'umukara, hasi hariho imodoka imwe ifite irangi ry'umukara indi iry'umweru ndetse hariho n'ipikipiki.

Inyubako ndende y'igorofa, ifite ibirahuri byinshi byometseho ndetse n'ibyuma, i ruhande rwayo hariho ubusitani burimo ibyatsi by'amoko atandukanye, kuri yo hometseho n'ibyapa bitatu.

Inyubako y'igorofa rigeretse rimwe risize irange ry'umweru ibirahure by'umukara igisenge cy'umutuku, iruhande rwayo hariho ikigega cy'amazi ndetse n'indi nayo ifite igisenge cy'umutuku n'irange ry'umweru.

Inyubako igorofa rigeretse rimwe rifite irange ry'umweru ndetse n'umukara, yometseho ibirahure by'umweru ifite amarembo y'umukara, yubakishije amatafari ahiye kandi imbere hariho ubusitani.

Ifoto igaragaza inyubako y'igorofa, ifite irangi ry'umuhondo ndetse n'ibirahuri bisa icyatsi. Iyi nyubako ifite uturangi tw'icyatsi iruhande rw'ibirahuri. Ifite uruzitiro rw'amatafari ahiye ndetse rusize n'irangi ariko mo hagati harimo ibyuma.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ipikipiki impande zawo hariho ibiti ndetse n'imodokari ebyiri, imbere hakabaho icyapa kiranga amerekezo cyanditseho inyuguti ya ka n'iyindi na mirongo itanu n'icyenda.

Umuhanda uko bigaragara hari gucamo imodoka, ni umuhanda ukozwe neza wa kaburimbo, imbere hariho amazu asize irangi ry'icyatsi uko bigaragara hariho n'akabari.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka ziri kugenda ndetse n'ipikipiki itwawe n'umuyobozi wayo ndetse ikaba yicayeho n'umugenzi, bose bambaye ingofero. Iruhande hariho inyubako y'igorofa ifite irangi ry'umuhondo

Inyubako y'igorofa igeretse rimwe ifite irange ry'umweru, imbere yayo hakaba hari icyapa kigaragaza ko hacuruzwa ibyo kurya n'ibyo kunywa, hariho imodokari ebyiri imwe ifite irangi ry'umweru naho indi ikage iry'umukara.

Iyi foto iragaragaza inyubako igeretse, ifite irangi rijya gusa n'umuhondo kandi madirishya y'iyo nyubako harimo ibyuma byinjiza umwuka ukonje mu nzu, kugira ngo abantu bahumeke.

Amazu menshi yubatse hamwe, inyuma yaho hariho ibiti byinshi bikikije indi imwe y'igorofa risize irange ry'umweru imbere hakabaho ikigega cy'umukara cyanditseho ibihumbi bitanu n'inyuguti ya L mu magambo y'umweru.

Inyubako y'igorofa igereretse rimwe, ifite ibirahuri by'ubururu ndetse n'ibiti biteye imbere yayo, hari amagambo yanditseho agaragaza ko ari umureke wa Kimironko.

Igorofa ry'ubakishije amatafari ahiye ndetse rikaba rifite n'amadirishya arimo ibirahuri, hejuru hariho ikigega cy'amazi, hasi hahinze insina ndetse hagaragaraho n'umuntu.

Umuhanda wa kaburimbo urimo amapikipiki abayobozi bayo bambaye ingofero, iruhande rwawo hariho ibiti ndetse n'inzira z'abanyamaguru, kandi zirimo abantu bari kugenda.

Umuhanda mugari wa kaburimbo, ushamikiyeho undi muhanda. Muri uwo muhanda uwushamikiyeho, hari guturukamo imodoka y'ikamyo ndende ifite ibara ry'ubururu.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka zicanye amatara, amapikipiki, igare n'abanyamaguru. Iruhande rwabo hari amatara ari kwaka, hejuru harimo iteme bacamo n'umwotsi.

Umuhanda wa kaburimbo w'isuka mu isangagano harimo imodoka ifite irange ry'umweru iruhande hakabaho igare ndetse n'imiyoboro y'amazi ikikijwe n'ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo urimo umurongo w'umuhondo uri kugendamo ipikipiki ndetse n'imodoka hamwe n'amagare, iruhande rwawo hariho urukuta rwubakishije amabuye y'amasarabwayi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo amapikipiki ari kugenda ndetse n'igare hamwe n'imodoka, iruhande rwawo hariho ibiti birebire ndetse n'akazu gatoya kubakishije ibyuma by'ubururu n'aho imodoka zihagarara.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ipikipiki. Uyitwaye yambaye ingofero y'umutuku ndetse n'ijire. Hirya yayo hari icyapa gifite ibara ry'umuhondo n'iry'umutuku. Hirya yacyo hari ibiti birebire.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka ifite irangi ry'ubururu ihetse imizigo, imbere yayo hariho igare ndetse n'ipikipiki. Iruhande rw'imihanda hateyeho ibiti birebire.

Umuhanda wa kaburimbo, ushushanyijemo imirongo y'umweru igaragaza aho abanyamaguru bambukira, urimo imodoka ebyiri; ifite irangi ry'umweru, ndetse n'iry'umukara, iruhande rwayo hariho umutaka ufite ibara ry'umuhondo, inyuma yarwo hariho inyubako y'igorofa igeretse rimwe, kandi iriho ipikipiki.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka ifite irangi ry'umukara imbere yayo hari ipikipiki ndetse harimo n'indi itwara imizigo ukikijwe n'ubusitani burimo ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo, urimo imodokari kandi ushushanyijemo imirongo y'umweru igaragaza ahantu abanyamaguru bambukira, i ruhande rwawo hariho ibiti ndetse n'inzira yagenewe abanyamaguru.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibimenyetso bishushanyije mu irangi ry'umweru, ndetse ukikijwe n'ubusitani impande zawo, mu nzira y'abanyamaguru harimo umusore uri kugenda wambaye umupira w'umweru.

Umuhanda wa kaburimbo, ushushanyijemo imirongo y'umweru igaragaza aho abanyamaguru bambukira, harimo imodoka ebyiri, ndetse n'amapikipiki, abayicayeho bambaye ingofero z'umutuku ndetse n'umuhondo.

Umuhanda ukomeza imbere ndetse hariho n'umuhanda ushamikiyeho ukatira ibumoso, uyu muhanda harimo imodoka izamuka ndetse mugice cy'umuhanda ukatira ibumoso hariyo akayira k'abanyamaguru bakoresha bambukiranya umuhanda.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka ndetse n'amapikipiki iruhande hariho akayira k'abanyamaguru harimo umusore uri kugenda, ndetse iruhande hariho ibiti birebire n'icyapa gifite ubuso bw'umweru umuzenguruko w'umutuku n'inyuguti ya pa iciyemo umurongo utukura.

Imodoka iri mu muhanda, iyi modoka ifite irangi ry'umweru ariko yanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza, ayo magambo yanditse mu ibara ry'umuhondo, agaragaza ko ari ikigo cy'abasilamu, inyuma y'iyo modoka hariyo imodoka y'abapolisi b'igihugu cy'u rRwanda, imbere yayo hariho ahantu bafatira lisansi.

Umuhanda wa kaburimbo ushushanyijemo imirongo y'umweru igaragaza aho abanyamaguru bambukira, ukaba uririmo imodokari eshatu n'amapikipiki, ukikijwe n'ibiti birebire.

Umuhanda wa kaburimbo urimo igare, iruhande rwawo hariho ibyatsi ndetse n'ibiti, munsi bigaragara ko haciyemo riguri.

Umuhanda wa kaburimbo uri mu isangano, kandi iruhande rwawo hariho abanyamaguru bari kugenda, ndetse n'inyubako zifite ibisenge by'umutuku, imwe muri yo ifite ikigega cy'amazi.

Umuhanda wa kaburimbo ushushanyijeho inzira y'abagenzi n'irangi ry'umweru. Urimo amapikipiki yicayeho abayobozi bayo ndetse n'abagenzi. Iruhande rwayo hariho icyapa. Inyuma yacyo hariho igorofa ry'umweru ndetse n'ibirango byo mu muhanda; ni ibimenyetso bimurika.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodokari ndetse n'amapikipiki, ushushanyijemo imirongo y'umweru igaragaza inzira yagenewe abanyamaguru, ukaba urimo ibimenyetso byo mu muhanda biri mu ibara ry'umutuku ndetse n'icyatsi, iruhande hakabaho inzu y'igorofa.

Ino foto yafaswhe n'umuntu wari uhagaze ku gice cy'impande z'umuhanda, gusa mu muhanda harimo imodoka y'umukara irimo kubisikana na moto, ku ryuhande ku nzira y'abanyamaguru hariho umugabo wambaye imyenda y'umweru urimo kugenda.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodokari zimwe zagenewe gutwara abantu izindi z'ibicuruzwa, imbere yawo hariho ikimenyetso kimurika cyo mu muhanda cyaka icyatsi kigaragaza ko abanyamaguru bafite uburenganzira bwo gutambuka.

Umuhanda wa kaburimbo urimo amapikipiki. Hejuru yawo hariho iteme ryubatse neza ricaho izindi modoka, iruhande hariho ibiti ndetse n'ubusitani, mu kayira k'abanyamaguru harimo umuntu uri kugenda wambaye umupira utukura.

Umuhanda wa kaburimbo, umuhanda umwe ukomeza imbere, undi ukata mu kerekezo k'iburyo. Ni umuhanda ukikijwe n'ibiti byiza, ni umuhanda uri gucamo moto ndetse n'imodoka.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka n'amapikipiki ushushanyijemo imirongo y'abanyamaguru bambukiraho mu ibara ry'umweru. Imbere yawo hari ibimenyetso bimurika byo mu muhanda mu ibara ry'icyatsi ndetse n'icunga rihishije.

Ifoto igaragaza umuhanda hariho inzira abanyamaguru bambukiramo ndetse n'ibimenyetso bimurika byo mu muhanda ariko harimo ikimenyetso cyatse mu ibara ritukura bigaragaza ko ari umwanya wagenewe abanyamaguru kugira ngo bambuke.

Umuhanda wa kaburimbo ushushanyijemo imirongo y'umweru igaragaza inzira yagenewe abanyamaguru, urimo ibimenyetso bimurika mu ibara ry'icyatsi ndetse n'umuhondo, iruhande hariho amapikipiki.

Mu muhanda wa kaburimbo ufite ibisate bibiri, mo hagati harimo amatara, iruhande rwawo hariho icyapa kiri mu irangi ry'icyatsi n'amagambo y'umweru kigaragaza amerekezo, nyarugenge n'umujyi wa kigali iruhande rwacyo hariho icyapa kigaragaza aho abanyamaguru bambukira.